Ubuhinzi bwa kijambere ni bwiza kuko butuma umusaruro wiyongera. Urugero nko guhinga imboga z'amashu mu mabase, bituma ubutaka budatwarwa n'isuri kuko buba bushyigikiwe, kandi butuma umusaruro gwiyongera ku muntu wahinze izo mboga, bityo akabona amafaranga yo gukoresha ibyo akeneye byose.

Gutera umuti pome ukoresheje n'icyuma cyabuhariwe cyo mu nganda kandi ugatera umuti wo mu nganda, bituma umusaruro wa pome wiyongera bityo ukazazijyana ku isoko cyangwa se ukaba wanazisarura ukazirya iwawe mu rugo.

Iyo abantu bahetse ibyuma by'umuti byakorewe mu nganda bituma ibihingwa bari gutera umuti bikura neza kandi bikera, bityo uwabihinze akaba yizeye umusaruro uhagije kuko aba yarabiteye umuti uturutse mu nganda, ari guteza ibyuma byaturutse mu nganda, bityo akaba yiringiye ko azasarura ibintu byinshi.

Umuti w'ibihingwa ni ingenzi kuko utuma ibihingwa bitatakwa n'udusimba tubirya tugatuma bitera. Kandi umuti w'imyaka utuma umuhinzi abona umusaruro uhagije, bityo bikamufasha kuzabona ibimutunga n'ibyo asagurira isoko.

Icuma co gutera umuti cifashishwa batera umuti ibigori, umuceri n'ibindi bitandukanye, bakoresheje umuti wavuye mu nganda. Bityo bigatuma iyo uteye umuti, ibihingwa byawe bidapfa cyangwa se ngo byatakwe n'indwara zitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere no guhinga mu birundo bakanasakara, ni ingenzi kuko bituma aho wahinze ibihingwa byawe amatungo atajya kubyona, kandi izuba ryinshi ntiribigereho, ahubwo bikera bimeze neza ukabona n'umusaruro uhagije ukajyana ku isoko ukagura ibindi bintu ukeneye, kandi ugaha akazi n'abandi bantu bahaturiye.

Amasaka iyo ari mu mufuka wakorewe mu nganda, uwo mufuka umeze nk'ishashi bituma amasaka atangirika, bityo umuntu wayinitse akayajyana ku isoko nta kibazo na kimwe yagize cangwa se abakozi bakaba banayajyana kuyabetesha bakabona akazi kabatungira ubuzima bwabo.

Iyo imyaka bayiteye umuti wavuye mu nganda ituma udusimba twatatse iyo myaka dupfa ,bityo uwo muhinzi uba yarayihinze akabona umusaruro uhagije, akajyana ku isoko ,yajyana ku isoko akabona amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo yifitiye.

Uburobyi bw'amafi yo mu mazi ni ingenzi kuko bituma umurobyi abona umusaruro, akawujyana ku isoko cyangwa se akaba yanayajyana mu rugo akayarya. umurobyi iyo arobye amafi menshi bituma umusaruro we wiyongera, akagujyana ku isoko ndetse n'amafaranga arakorera akiyongera.

Amafi iyo gakwiriye mu mazi, abarobyi baragaroba bamara kugaroba bakagajana ku isoko. Iyo bagajanye ku isoko rero babonaga amafaranga. Ago mafaranga bakagifashisha mu bindi bintu byinshi bakeneye cangwa se bakaba banagaroba bakagajana mu rugo bakagarya bityo bikabarinda kurwaragurika.

Iyo amafi bayarobye bakayashyira mu gatete bituma uwo muntu wayarobye ayajyana ku isoko, yayajyana ku isoko bakamuha amafaranga kandi iyo ya yarobye mu mazi akayajyana mu rugo, ashobora no kuyarya bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Iyo ifi bayokeje ku mbabura bitumaga abaryi bayirya ako kanya bitabagoye, kandi bigatuma yihutisha igihe kuko bitagombera kuja kuyiteka, ahubwo bituma umuntuuyiriye agira ubuzima bwiza, bikamurinda indwara, bikanamurinda kuba yakwandura indwara zitandukanye.

Insina iyo zezeho ibitoki babijana ku isoko cangwa se ukabijana mu rugo. Iyo ubijanye ku isoko baguhaga amafaranga, ukagakoresha mu bindi byinshi bitandukanye. Nk'umubyeyi akarihira abana be amashuri, akagura ibikoresho bitandukanye byo mu rugo, cangwa se yaba abigumishije mu rugo, akabirya akagira ubuzima bwiza.

Kuragira ihene bitumaga umusaruro gwiyongera, kuko iyo ihene zariye neza zikabyibuha, uzijana ku isoko bakaguha amafaranga menshi. Cangwa se wabona utarayijana ku isoko, ukayirya iwawe n'urugo. Ariko uyijanye ku isoko ubonaga amafaranga ukaguramo izindi hene nyinshi, bityo ubworozi bwawe bukaguka.

Ubwatsi bw'igikebo buba ari bwiza, kuko amatungo araburya iyo aburiye akura neza, kandi umuntu iyo akoze umushinga wo gutera ubwatsi bw'igikebo bituma abona amafaranga, igihe bwa bwatsi bweze abashumba cyangwa se aborozi bari kuza kubugura, bityo akabona amafaranga akeneye aho yaba ari hose.

Guhinga ibirayi ni byiza kuko bituma umuhinzi wabihinze abona umusaruro, akawujyana ku isoko cyangwa se uwo musaruro akaba yabikura, akabijyana mu rugo. Guhinga ibirayi bitanga akazi ku babagazi bazabibagara, abazabyuhira, abazabitera umuti, bityo nabo bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo bya buri munsi.

Intusi iyo zikiri ntoya zishobora kuvamo umuti wo kuvuza abantu igihe barwaye umutwe cyangwa se byakura akaba yabica akabisatura, akabikuramo inkwi cyangwa se akaba yabica akabigurisha, yabigurisha akabona amafaranga akoresha ibindi bintu bitandukanye.

Urutoki iyo warukoreye neza ruzana ibitoki, rwazana ibitoki, ibyo bitoki ukabitega injerwe, injerwe zimeze neza kugirango bitazagwa. Iyo bikuze ushobora kubica iwawe ukabitaramo imineke, ukabikoramo umutobe cyangwa se inzoga cyangwa se ukabijyana ku isoko ukabigurisha abandi bantu bityo ukabona amafaranga.

Urusasa iyo rweze uwaruhinze ararusarura agakuramo imigano ajyana ku isoko, cyangwa se akanayubakisha. Ibyatsi yakuyeho akabiha amatungo. Na ho imisave iyo yakuze abantu bayibazamo intebe, cyangwa se bakaba banayibazamo inzugi, kandi na none urusasa ni rwiza kuko rutuma ahantu ruhinze hakomera.

Amateke ni igihingwa gihingwa kugira ngo uyarye mu rugo, cyamba se uzayajyane ku isoko. Iyo uyariye mu rugo, agutera imbaraga agatuma unagira ubuzima bwiza, naho wayajyana ku isoko bikakurinda kubura amafaranga ukoresha mu buzima bwawe bwa buri musi.

Umurima wahinzwemo ibigori, iyo byeze barabisaruraga, babisarura bakabijana ku isoko bakabona umusaruro. Kandi iyo uwo murima bamaze kuwusarura, usigaragamo ibikenyeri n'ibigorigori, abakozi bakazaja kubikuramo bagahembwa, bakabana amafaranga go gukemuza ibintu byinshi bakeneye no kugura ibyo bifuza mu buzima bwabo.

Ingemwe z'avoka ziba ari nziza, iyo umuntu aziteye abona umusaruro, iy'igiti cyeze cy'avoka, Kandi niyo izo ngemwe ziri kumwe n'izindi ngemwe, urugero nk'indumburabutaka biba ari byiza, kuko byose bitanga umusaruro mwiza, urugero nk'indumurabutaka havamo imishingiriro n'ibiti, byakura bakaba babibazamo imbaho zo gukoresha.

Igiti c'avoka kiba ari ciza kuko iyo ceze uwagiteye aragisarura. Amavoka akayatara cangwa se akayaranguza abacuruza, bakayajana ku isoko bakabona amafaranga. Ibidodoki biba ari byiza kuko iyo byeze uwabiteye arabisarura, akabiteka, iwe mu rugo cangwa se akabigurisha akabona n'amafaranga yo gukemuza ibindi bintu akeneye iwe mu rugo.

Uruyuzi ruba ari rwiza, kuko uruyuzi ruzaho ibihaza. Ibyo bihaza umuhinzi akazabijyana iwe mu rugo akabirya cyangwa se akabijyana ku isoko yabijyana ku isoku bakabigura, bityo akabona amafaranga amuteza imbere iwe mu rugo.

Umurima urimo karoti uba usa neza kandi ugaragara neza, cyane cyane nk'iyo karoti zakuze, umuhinzi aba yizeye kuzasarura. Iyo zeze arazisarura akaba yashyira mu rugo, akazajya azirya gake gake, cyangwa akazijyana ku isoko, akazigurisha, akabona amafaranga yo kuzongera guhingisha ahantu yari yarazihinze.

Ibiti by'intusi iyo byakuze abantu barabitema bakabicana mu rugo cangwa se bakabijana ku isoko bakabaha amafaranga kandi ibiti by'intunsi aho bitewe harakomera ntabwo hashobora kugerwa n'isuri. Ibiti by'intusi bituma umuntu wabihinze abona amafaranga akayifashisha mu gukemura ibintu byinshi bitandukanye.

Ibitoki ni igihingwa gihingwa, kugira ngo umuhinzi azabirye iwe urugo, cyangwa se abijyane ku isoko, kugira ngo abone amafaranga amukemurira ibibazo bye bitandukanye. Naho ibirayi ni igihingwa gihingwa kugira ngo uzabirye, cyangwa se uzabijyanane ku isoko, kugira ngo ubone amafaranga yo kwifashisha mu gukemura utuntu twawe twa buri munsi.

Igiti c'ipera ni ciza, kuko iyo ipera ryeze havaho amapera, uwagihinze akayajana ku isoko, yagajana ku isoko akabona amafaranga yo kugura ibindi bintu cangwa se akagajana no mu rugo iwe, ago mapera bakagarya bakagira ubuzima bwiza bakishimira umusaruro wavuye ku giti c'ipera.

Ibirayi iyo bihinze ahantu byenda kubera ahantu hameze nk'ishyamba hari ibiti bituma aho hantu hakurura imvura, iyo imvura ikeza ibyo birayi maze uwabihinze akagira umusaruro mwinshi. Yamara kubona umusaruro akawujyana ku isoko cyangwa se akaba yanabirya iwe mu rugo bityo ubuzima bwe bugakomeza kuba bwiza.

Iyo iMyembe ya kizungu itari yakura iba ari myiza cyane, kuko iba ari minini kandi iyo itukuye, iba igaragara neza, bityo umuhinzi wayihinze akaba yiringiye umusaruro uzamufasha mu gukemura ibintu byinshi akeneye cyangwa yifuza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ibigori iyo umuntu abihinze kandi agakoresha ubuhinzi bwa kijyambere, nko kubitera ku mirongo agashyiraho ifumbire bituma ibyo bigori byera neza, byamara kwera neza akabijyana ku isoko cyangwa se akaba yanabisarura akabishyira iwe mu rugo bityo akagira ubuzima buzira indwara.

Ibigori iyo biri mu murima biba ari byiza, kuko iyo bitari byuma uwabihinze azaga gucamo ibigori byo kotsa cangwa se akaza guharangura ibigorigori, akabijanira amatungo gwo mu rugo, kandi ibi bigori iyo bikiri bibisi biba biteye ubwiza kubireba, kandi bigatanga akazi ku bantu babikorera.

Iyo abahinzi bafashe amasuka gabo bari guhingira ibijumba, bari kubisarura cangwa se kubitera bituma igihe nikigera bazabona umusaruro uzabatunga mu ngo zabo cangwa se bakabisarura bakabijana ku isoko, babijana ku isoko bakabona amafaranga bakayifashisha mu bindi bintu bakeneye gukemura byo mu rugo.

Ibitoki ni igihingwa cyerera hejuru, kikera imineke cyangwa kikera ibyo kurya, ibitoki ni ingenzi kuko bituma umuntu ubiririye yirinda indwara, kandi ibitoki iyo umuhinzi ubihinze abijyana ku isoko akabona amafaranga yo gukemuza ibibazo bitandukanye, no kwifashisha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Imbuto y'ibigori bya mayizori iyo babihunguye biba ari byiza kuko bituma uwabihinze ajya kubigurisha akabona umusaruro akabona n'amafaranga yayabona akagura ibindi bintu cyangwa se akaba yatereza n'abandi bakozi bo kumuhingira hahantu ngo ahatere ibindi kandi bitanga akazi ku bantu bazabihungura, abazabyanika ndetse n'abazabijyana ku isoko.

Umutavu uba ubereye amaso kuko umutavu uvamo inka nini iyo nka nini umworozi akazayibaga akayirya iwe mu rugo n'abaturanyi cyangwa se akaba yayigurisha, yayigurisha ababazi bakayibaga maze bakayirya.

Amapera ni igihingwa cyiza cyane kuko umuhinzi iyo ayahinze aba yizeye kuzabona umusaruro, uwo musaruro akaba yawujyana iwe mu rugo, ayo mapera akayarya cyangwa se atayarya akayajyana no ku isoko, yayajyana ku isoko akabona amafaranga, akayagurisha abantu barayarangura nabo bakayacuruza bityo uwo muhinzi akishimira umusaruro we.

Ubuhinzi bw'ibijumba ni bwiza kuko iyo umuhinzi ahinze ibijumba ashobora kubisarura akabishyira iwe mu rugo cyangwa se akabisarura akabivana ku isoko, yabijyana ku isoko akabona amafaranga amufasha kuba yahingisha ha hantu yari yarahinze ibijumba cyangwa se kuba yaguramo ibindi bintu nk'ibirayi n'ibindi biribwa acyeneye.

Iyo ibirayi byeze umuhinzi yarabihinze, agatereza abakozi bakabikura, bakabitoragura, bakabishyira mu mufuka, arishima cyane kuko aba ari kubona n'umusaruro yasaruye ari mwiza kandi yarungutse, bityo bikamufasha kuba yabijyana ku isoko, akabona amafaranga cyangwa se bakabishyira iwe mu rugo, akajya kubirya akagira ubuzima bwiza.

Ibigori ni igihingwa gihingwa kugira ngo umuhinzi azabirye iwe mu rugo, cangwa abijane ku isoko abone amafaranga garamufasha kugura ibindi bintu urugero: nko kugura ibintu bidahingwa nk'isabune, amavuta, n'ibindi bintu bitandukanye, kandi ibigori bifasha uwabihinze gusarura umusaruro akawujana ku isoko.

Avoka ndetse n'imineke n'inyanya. Iyo umuhinzi yahinze inyanya abona umusaruro, akawujyana ku isoko cyangwa akazirya n'iwe mu rugo. Iyo umuhinzi yahinze urutoki rukera, ibitoki arabitara yamara kubitara agakuramo imineke akayijyana ku isoko, cyangwa akayirya iwe mu rugo. Avoka iyo zeze umucuruzi araziranguza akabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'amashu ni ingenzi, kuko ubuhinzi bw'amashu, iyo umuhinzi, ahinze amashu, bituma abaturage bagereye, babona akazi, nkako kubagarira ya mashu, kuyuhira no kuyasarura, bityo bakabona ibindi bintu bakeneye mu buzima bwabo.

Ibipapayi bituma umuntu ubiriye agira ubuzima bwiza, kandi n'uwabihinze akagira umusaruro, akabisarura akabijyana ku isoko akabona amafaranga yo gukemura ibibazo bye bya buri munsi, kandi ibipapayi iyo umuhinzi abihinze aba yizeye kuzabona umusaruro ushimishije.

Iyo ibirayi bari kubitera umuti bahetse n'icyuma cy'umuti, bituma ibyo birayi bikura neza bigakura nta mvura ibyishe, kuko biba bifite ubwirinzi bwo kuba byaratewe umuti, kandi ibyo birayi iyo byeze bitanga akazi ku bantu bazabisarura abazabibagara, ndetse n'abazayijyana ku isoko bityo bakabona amafaranga.

Isoko ry'imbuto urugero nk’imyembe，inanasi，imineke， ibibiringanya ndetse n'amaronji， bituma abantu baja kubihaha， bakagira ubuzima bwiza， kandi iyo umuhinzi abihinze， abijana ku isoko bakamuha amafaranga， ago mafaranga akaguramo ibindi bintu akeneye，nk'imyenda，inkweto，ibirayi n'ibindi byinshi byo kwifashisha iwe murugo.

Guhinga ibireti ni byiza, kuko iyo umuhinzi yahinze ibireti ashaka abakozi, abakozi bazamufasha kubisoroma, bityo abakozi yabahemba bakagura ibindi bintu bakeneye, bakaza gufasha n'imiryango yabo, kandi iyo umuhinzi yahinze ibireti, bituma abisarura akabijyana ku isoko, yaca ku isoko akabona amafaranga.

Ibishymbo by'intononore biba ari byiza ,kuko iyo umuhinzi ahinze ibishyimbo bikazana intontore aba yizeye kurya kandi iyo bibaye intonore arabisoroma ,akabitonora iwe mu rugo akabirya cyangwa se akanabitonora akabijyana ku isoko bakabigura bityo akabona n'amafaranga yo kuguramo ibindi bintu yifuza.

Iyo ahantu bari gucuruza indimu amarongi n'ibintu bitandukanye, bituma umuntu wazihinze yigirira icyizere , kuko aba ari kubona isoko ryo kujya kuzigurishamo kandi hari n'igihe umuhinzi azisarura akazishyira iwe rugo iyo ari nkeya ,akaba yanazirya cyangwa se akazijyana ku isoko akabona abakiriye bakazigura bakamuha amafaranga.

Guhinga avoka ni byiza kuko bituma umuntu wazihinze abona umusaruro kandi iyo umuntu ahinze avoka bitanga n'akazi ku bakozi bazaca za voka bakazimwikorera bakazigezaho zigomba kugera kandi iyo umuntu yahinze avoka ashobora kuzijyana ku isoko akazigurisha akaba n'amafaranga cyangwa se akaba yazirya iwe mu rugo.

Guhinga ibirayi ni byiza kuko bituma umuntu wabihinze asarura akabishira iwe mu rugo cangwa se akabijana ku isoko akabona ibyo akeneye mu buzima bwe bwaburi munsi urugero nk'imyenda, inkweto, isabune yo gukaraba no gufura, amavuta yo kwisiga no kurya bityo akagira ubuzima bwiza binyuze muri bwa buhinzi bw'ibirayi yakoze.

Voka iyo zeze umuhinzi aba yishimye cyane, kuko azisarura akaba yazitara iwemo murugo akazirya, cyangwa se akazisarura akazijyana ku isoko maze akabona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu akeneye kuguramo, ibindi biribwa cyangwa se ibindi bikoresho by'isuku.

Abadonge batwararaga amata ku magare no ku ma moto bituma babona amafaranga nk'iyo ago mata bagagurishije bituma amafaranga giyongera kandi bigatuma ubuzima bwiza bwiyongera kuko babonye amafaranga baguragamo ibindi bintu bakeneye maze bakagira ubuzima bwiza buzira indwara.

Ibitunguru bya puwalo barabihingaga kugira ngo bazabijane ku isoko, cangwa se babisarure babishire mu rugo baje barabiteka. Iyo umuhinzi abijanye ku isoko bituma abona ibindi bintu akeneye, urugero nk'imyenda, isabune, amavuta n'ibirayi bagateka, kandi binaha akazi ba bantu baba barabikoreye mu mirima bihinzemo.

Ibijumba bihiye byitwa amapfuruka biraryohaga kuko iyo umuntu abitetse biba bisa n'umuhondo imbere kandi iyo umuntu abitetse arabirya akagira imbaraga iyo umuhinzi yabihinze abirya iwe mu rugo akabijana no ku isoko yabijana ku isoko akabona amafaranga yo kuguramo nk'ibirayi n'ibindi bintu byinshi akeneye mu buzima bwe.

Intoryi iyo zitaweho neza， ukazikorera neza，ukaziha ifumbire， zitanga umusaruro mwinshi cyane， kandi uwo musaruro bigatuma uwujyana ku isoko，wawujyana ku isoko，ukabona amafaranga aragufasha gukemura ibindi bibazo wifitiye， cyangwa se ukaba wanazijyana mu rugo iwawe，ukazirya， ukagira ubuzima bwiza.

Iyo umuhinzi ahinze ibigori akabikorera neza, birera byamara kwera akabisarura, akabipfundika, akabimanika, byamara kuma bimanitse, akabimanura akabihungura, yamara kubihungura akabijana ku isoko, yabijana ku isoko akabona amafaranga yo kumutunga cangwa se akabirya iwe mu rugo.

Inkwavu ni amatungo magufi yororerwa mu rugo hagamijwe kuzayabaga bakayarya mu rugo cangwa se kuyajana ku isoko bamara kuyajana ku isoko bakabaha amafaranga bakagura ibindi bintu bakeneye urugero nk'ibindi biribwa bitari inyama z'inkwavu urugero nk'imyambaro, imyenda, inkweto ndetse bakagura n'ibindi byinshi bitandukanye nk'ibikoresho by'isuku.

Ibigori bya mayizori iyo wabiteye ukabihungura bivamo igikoma cangwa se ukaja kubibeteshamo umutsima witwa patejoni kandi ibigori bya mayizori ushobora no kubitekamo impungure iyo umuhinzi yabihinze ashobora no kubijana ku isoko akaja kubigurisha yamara kubigurisha akabona amafaranga yo kuguramo ibishimbo cyambase ibirayi cangwa ibindi bintu akeneye.

Ibinyomoro iyo biri mu murima harimo ibitukuye n'ibidatukuye bituma uwabihinze atoranyamo ibyeze, yamara kubitoranya, akabijana ku isoko, akabigurisha akabona amafaranga, iyo agabonye aguramo ibindi bintu akeneye cangwa se akagura n'umuti wo gutera bya binyomoro.

Iyo abantu basaruye ibirayi bashobora kubirya iwabo mu rugo cangwa se bakaba babijana ku isoko bakabona amafaranga bakagura ibindi bintu byinshi bitandukanye bikenewe badahinga urugero nk'amasabune ,imyenda, inkweto ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye by'isuku.

Ubuhinzi bw'indabo butuma umuntu wazihinze azisarura, akazijana ku isoko cangwa se akazitaka zikaba nk'umutako iwe mu rugo. Kandi ubuhinzi bw'indabo butanga akazi ku bantu bazikorera. Kuzibagarira, kuzivomerera, bityo abo bantu bakagira ibibatunga bya buri munsi, binyuze muri izi ndabo baba bakoreye banazivomereye.

Iyo umuhinzi yejeje amashu, amashu yarakuze neza ari manini bimutera kwishima, kuko nk'iyo ayafashe abona koko yarahinze, akaba yayajyana mu rugo iwe akayarya, cyangwa se akayajyana ku isoko, yagera ku isoko bakamuha amafaranga, akayakoresha ibindi bintu bitandukanye akeneye cyangwa se yifuza mu buzima bwe.

Iyo ahantu bari gucuruza umuceri bari kuwucuruza nka depo, bituma abantu bajya kuwurangurayo bakajya kuwugurisha nabo ahandi hantu batuye kandi bifasha na wa muntu uri kuwuranguza ku mafaranga menshi yo gukemuza ibintu bye yifuza cyangwa se akaba yanawusarura ntawujyane ku isoko ahubwo akawurya.

Ubuhinzi bw'intoryi ni bwiza cyane, kuko iyo umuhinzi yejeje intoryi arazisoroma, akazijyana iwe mu rugo, akazirya cyangwa se akazisoroma akazijyana ku isoko bakazigura, bakamuha amafaranga yo gukoresha, ibyo akeneye bya buri munsi.

Amateke ya bwayisi aba ari meza， kuko iyo yeze ， uwayahinze ayajyana ku isoko， bakayagura， bakamuha amafaranga， cyangwa se akayajyana iwe mu rugo， akayateka， akayarya， nawe akagira ubuzima bwiza. Kandi iyo umuhinzi yagize umusaruro mwinshi w'amateke ya bwayisi， bituma yishima， kuko aba abonye umusaruro mwinshi.

Karoti ni igihingwa umuhinzi ahingaga agamije kuzakirya mu rugo, cangwa se kuzakijana ku isoko, karoti iyo zeze umuntu akazizirya, bituma amaso ye areba neza, kandi bituma umuntu wazihinze abona amafaranga yo gukemuza ibintu bitandukanye, yo kwifashisha mu rugo rwe bikamurinda n'indwara.

Imyumbati iba ari myiza cyane kuko iyo umuhinzi yayihinze ikera neza, bituma ayisarura akayijyana ku isoko cyangwa se atayijyana ku isoko akanayirya niwe mu rugo. Iyo ayijyanye ku isoko abona umusaruro w' amafaranga akayaguramo ibindi bintu akeneye cyangwa se akaba yanayaguramo ibindi bikoresho by'isuku.

Iyo ahantu bahinze icyayi hatanga akazi ku bantu bazagisarura, kandi bagisaruye bakijyana ku isoko, bakijyana ku isoko bakabona amafaranga, ayo mafaranga bakayifashisha bari gushaka abandi bakozi, cyangwa se bari kugura ibindi bintu bakeneye.

Isoko ry'ibiribwa ni ryiza n'imbuto， kuko bituma abantu bajya kugurayo amaronji，imyembe，inyanya，ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye，bakajya kubirya iwabo mu rugo，bakagira ubuzima bwiza，kandi bifasha na wa muntu uri kubicuruza，kubona amafaranga yo kwifashisha，ubuzima bwe bwa buri munsi.

Amateke ni igihingwa gihingwa hagamijwe kugikoresha mu rugo kukirya, cyangwa se ugasagurira n'isoko, kandi amateke ni igihingwa gitera imbaraga uwayariye. Amateke gahingwa ahantu hera, umuhinzi iyo ayahinze akera, akuramo amafaranga kandi akamufasha mu gukemura ibibazo bye bya hato na hato.

Iyo ubanguriye urugemwe bw'igiti ca voka bituma umusaruro uziyongera mu gihe kizaza, iyo urugemye rwakuze rwarabanguriye bituma umusaruro wiyongera voka zikaba nyinshi, kandi iyo zibaye nyinshi bituma ubona amafaranga gwo kwifashisha mu bindi bintu bitandukanye.

Iyo ingano zeze, bitanga akazi ku basaruzi bazazisarura cyangwa se abazazigesa, gutyo bakabona amafaranga yo gutunga imiryango yabo, kandi iyo bazisaruye ushobora kuzijyana mu rugo bakaba bazihuhura ukazinywamo igikoma ukazikoramo n'imikati, cyangwa se ukazijyana ku isoko ukabona amafaranga yo kugura ibindi bintu ukeneye mu buzima bwawe.

Iyo mu isoko bari gucuruza amaronji, ibinyomoro byiza, imyembe na za wotameroni bituma abantu bari kuzicuruza babona amafaranga kandi niyo umuhinzi asaruye urugero nk'ibinyomoro, akaba yababijyana ku isoko abona amafaranga cyangwa se iyo abiriye mu rugo iwe agira ubuzima bwiza, bityo ntagire kurwaragurika.

Amasake n'inkoko kazi ni amatungo magufi yororererwa mu rugo, kugira ngo azatange umusaruro w'amasake kuyabaga, inkoko kazi zigatanga amagi kandi zikarura udushwi, tuzavamo izindi nkoko zo kororerwa mu rugo.

Ubworozi bw'ingurube ni ingenzi kuko umworozi iyo yoroye ingurube ashobora kuyirya iwe mu rugo cyangwa se yamara gukura akayijyana ku isoko yayijyana ku isoko akabona amafaranga yo kuguramo izindi ngurube nyinshi zo kugira ngo bizinesi ye yaguke y'ubworozi bw'ingurube.

Igihaza kiba ari cyiza iyo cyakuze, kandi n'iyo kirimo inzunzi zakuze, abantu barazifashisha mu gukora ibindi bihaza, cyanga se zikavamo undi murama uzavamo ibindi bihaza, umuhinzi ahinze igihaza ashobora kugiteka iwe murugo, cyagwa se akaba yanagisarura akakijyana ku isoko akabona amafaranga.

Amajeri ni igihingwa cera imoshogi. Iyo amaze kuma ashobora kuvamo imbuto azahingwa ikindi gihe, kandi amajeri ni igihingwa gihingwa ukayarya mu rugo. Cangwa se ugasagurira n'isoko. Amajeri ni ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi, kuko amajeri atuma indwara zitandukanye zitakwataka.

Iyo ubutaka bufite uko bugaragara, rugero nko kugaragaza ko ahantu ari ishyamba cyangwa se agasozi, biba bigaragara neza kuko aho ahantu habamo inyamaswa, izo nyamaswa ba mukerarugendo bakaba baza kuzisura bagatanga amafaranga.

Imbuto y'amajeri iba ari nziza kuko iyo umuhinzi ayihinze abasha kubona ibizamutunga mu gihe kizaza, urugero agasoromamo nk'urunyogwe akaruteka, cangwa se gakwera akagajana ku isoko akaguramo ibindi bintu akeneye cyangwa se yifuza.

Soya ni igihingwa gihingwa hagamijwe kuzagikoresha mu rugo, tukibatesha mu bigori cangwa se kukijana ku isoko kugira ngo umuhinzi abone amafaranga yo gukemuza ibintu byinshi bitandukanye, urugero nko kurihira abana amashuri n'ibindi bitandukanye.

Ibigori bimanitse bidatonoye, iyo bimaze kuma barabitonora bamara kubitonora bakabihungura camba se bagakoresha imashini ,bakabijana ku isoko bakabona amafaranga yo kugura ibindi bintu nk'ibirayi n'ibindi bintu byo kurya cangwa se imyenda zo Kwambara, kandi biha akazi abantu bazabimanika, abazabihungura, n'abazabipfundika.

Ubuhinzi bwa kijambere， urugero nko guhinga bishimbo bigufi，bituma umuntu wabihinze abona umusaruro guhagije， urugero nk' iyo bisaruye， akabijana mu rugo iwe，bituma abijana ku isoko，akazabona amafaranga yo gukoresha ibindi bintu akeneye， cangwa se yifuza mu buzima bwe bwa buri munsi.

Iyo amajeri akiri matoya aba agaragara neza ahantu ahinze, kandi iyo amajeri akuze akavamo urunyogwe baruteka mu rugo, na ho yakuma bakajya kuyagurisha akaba yavamo indi mbuto bazatera ikindi gihe, Kandi aya majeri atanga akazi ku bantu bayahinze bayabagaye ndetse bazanayasarura.

Ibigori bya bulide cyangwa se gipesi biba ari ibigori byiza cyane, kuko bituma umuntu wabihinze agira umusaruro mwinshi kandi akaba yanabihinga agatereza abakozi ,abakozi bakabona amafaranga ibigori bya bulide bituma abantu babona akawunga nk' iyo babitonoje bakajya kubibetesha bakabirya.

Ubunyobwa buba ari bwiza kuko nk'imbuto yabwo iba igaragara neza inasa neza, ubunyobwa bwifashishwa mu bintu byinshi bitandukanye, kubukaranga cyangwa se bakabubeta bakaburya mu biryo, ubunyobwa butuma umuntu uhinda yishima, kuko butanga umusaruro uhagije.

Umugosozi iyo bamuhaye akazi akagosora imbuto y'ingano, bimufasha kubona amafaranga gwo gukoresha iwe mu rugo, gwo gukemuza ibibazo afite, akarihira abana be amashuri, akagura ibindi bintu akeneye bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza bwa buri munsi.

Ubunyobwa ni igihingwa gihingwa kugira ngo umuhinzi azabusarure abujane ku isoko, cangwa se abusarure abushyire mu rugo, abusekure akoresheje isekuro cangwa se abubeteshe. Bityo abone ubwo guteka mu biryo na ho nabujana ku isoko abone amafaranga yo kugura ibindi bitandukanye biramufasha mu buzima bwe bwa buri munsi.

Urunyogwe ni amajeri atumye, umuhinzi asoroma akaja kugateka mu rugo rwe. Urunyogwe ni rwiza kuko ruri mu birinda indwara mu buzima bw'umuntu bwa buri munsi.

Amajeri meza atuma umuhinzi abona umusaruro mwinshi. Kandi amajeri iyo yumye neza, bituma umuhinzi ashobora kuba yayajyana ku isoko akayagurisha, cyangwa se akaba yanakongera kuyahinga mu murima we.

Ingano iyo zeze haravuyemo umusaruro mwinshi ziba ari nziza kuko zivamo imbuto zizavamo iyindi mirima myinshi y'ingano, kandi ingano zitanga akazi ku bantu bazazihinga, abazazibagara, abazazisarura, abazazihura ndetse n'abazazijyana ku isoko kuzigurisha.

Soya ni igihingwa gihingwaga kugira ngo umuhinzi azakijane iwe mu rugo, agikoreshe, camba se akijyane ku isoko. Kandi soya ituma umuntu wayihinze abona amafaranga, kuko iyo ayijanye ku isoko, bamuha amafaranga, agakemuza ibibazo bye bya buri musi, cangwa se akaguramo iyindi mbuto, agahinga izindi soya.

Ibigori iyo bihinze mu murima bitari byera, uwabihinze aba ategereje umusaruro kandi ashobora kujya kwahiramo ubwatsi rw'amatungo bwe, kandi iyo byeze ashobora kubisarura akabishyira mu rugo akazabirya cyangwa se akabijyana ku isoko, yabijyana ku isoko akabona amafaranga azamufasha kugura ibindi bintu akeneye.

Ibishimbo by'ibizungu na za nyiramabuno biba ari byiza kuko iyo ari intonore urabiteka iwawe mu rugo ukabirya, byamara kuma ukaba wabijana ku isoko ukabona amafaranga yo kuguramo ibindi bintu ,cangwa se ukaba wanabiteka iwawe mu rugo byumye kandi ugaha akazi n'abantu bazabisarura, abazabitonora ,n'abazabijana ku isoko.

Imbuto y'ibishimbo bigufi bayihingaga igihe umuntu atagira ibiti byo gushingiriza, bamara kuyihinga byakwera bakabijana ku isoko cangwa se bakayishira mu rugo bakazabirya, iyo babijanye ku isoko babona amafaranga yo gukemuza ibindi bintu bakeneye batari bafite mu rugo.

Ibigori bya matoni cangwa se iby'amabara, barabihinga kugira ngo nibyera bazabijana mu rugo babyotse, babiteke, cangwa se babijane ku isoko bigurishe, cangwa se bazabikoremo imbuto yo kuzahinga ikindi gihe, igihe byeze bakongera bakanabihinga.

Amasaka ni igihingwa gihingwa hagamijwe kuzayajana mu rugo, bakayahura bamara kuyahura bakaba bayakoresha mu rugo bakayabeteshamo igikoma, cangwa se bakayakoramo amamera ,cangwa bakayajana no ku isoko bayajana ku isoko bakabona amafaranga yo guhingisha hahantu bayahinze, cangwa se no gukemura ibindi bibazo byabo bitandukanye.

Ibigori bya matoni cyangwa se nyiramanyiginya biba ari byiza kuko biba bigaragara neza bifite amabara menshi atandukanye bityo bigashimisha umuhinzi wabihinze kandi iyo umuhinzi abisaruye abijana ku isoko yabijana ku isoko bityo bakabigura bishimiye iyo mbuto y'amabara.

Ingano iyo zabyibushe neza zigakura neza, zituma umuhinzi wazo yishima agakuramo umusaruro guhagije. Kandi ingano zitanga akazi ku bantu bazazisarura, abazazihura, abazazigosora bakazijana ku isoko maze bakabona amafaranga.

Igihwagari iyo ceze kijanwa mu ruganda kigatunganywa kikavamo amavuta yo abantu barya. Kandi igihwagari umurima giteyemo gitanga akazi kuri wa muntu uzagikorera, uzakibagarira kandi kigaha n'amafaranga wa muntu wagihinze, igihe ceze yakijanye ku isoko kugira ngo gitunganywemo amavuta yo kurya.

Imbuto iyo ziri hamwe urugero nk'inzuzi, amajeri, ibishimbo n'izindi mbuto zitandukanye iyo ziri hamwe umuhinzi atoranyamo izari butere yamara kuzitera inzuzi zikazavamo ibihaza akabirya iwe mu rugo cangwa se akabijana ku isoko namajeri akaba yayasarura akayajana ku isoko cangwa iwe mu rugo n'ibishimbo akaba yabijana ku isoko akabona amafaranga.

Ingurube za kijyambere ni nziza kuko zibwagura ibibwana byinshi kandi bisa neza kandi iyo veterineri yayitayeho neza, bituma igira umusaruro urugero nk'uwo kubwagura ibyana byinshi bikazaguhesha inyungu.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi kuko bituma umuntu woroye inkoko agira umusaruro mwinshi w'amagi, ariko iyo woroye inkoko bya kijyambere bituma ubona umusaruro w'amagi menshi n'inkoko nyinshi bityo bikagufasha kubona amafaranga.

Iyo ahantu hari amatureyi menshi y'amagi, bituma umuntu ufite amatureyi abona umusaruro kandi iyo umuntu wazoroye yoroye inkoko za kizungu, bituma umusaruro wiyongera kuko ibi byose byigishwa na veterineri.

Iyo amagi ari ku matureyi aba agaragara neza, kuko uwayashyizeho aba azi umubare w'amagi gari ku matureyi, yatondetse ku muronko kandi amagi iyo uwayaranguye agajane ku isoko abasha kubona amafaranga go kugura ibindi bintu akeneye, cangwa se kuguramo izindi nkoko zo gutera ago magi.

Ingurube iyo yitaweho n'abaveterineri bakayikurikirana bakayitera inshinge zo gutuma ikura neza bituma itanga umusaruro mwinshi. Kandi nk'iyo ifite amezi cyangwa se yabwaguye, ibwagura ibyana byinshi kuko iba yaritaweho n'abaveterineri.

Abaveterineri cyangwa se abaganga b'amatungo ni beza kuko batuma amatungo iyo yagize ikibazo bakagikemura akomeza gukura neza cangwa se yaba yahuye n'impanuka bakayomora bityo igakira nuko nyirayo akishima akazabona umusaruro gw'ago matungo.

Veterineri iyo akingiye inka bituma iyo nka itarwara indwara zitandukanye urugero nk'ibirondwe, uburenge n'ibindi kandi iyo nka ikura neza mu mubyibuho ikanakura neza ikaba ifite isura nziza kandi iyo bayiteye urushinge bituma iba imeze neza kandi ifite amahoro.

Ingurube ni inyamaswa cangwa se amatungo yororererwa mu rugo, usibye ko habaho n'ingurube z'ishamba. ingurube ziraribwa, ingurube zitanga akazi ku bantu bubatse ibiraro byo kugira ngo zibemo. Kandi ingurube iyo Abaveterineri baziteye inshinge, bituma zitarwara bya hato na hato. Bityo bigatanga umusaruro nyirazo.

kororera mu bibuti ni byiza kuko bitumaga amasake n'inkokokazi biba byisanzuye aho biri. Inkokokazi zigatera amagi menshi kandi no kuzigaburira bibaga byoroshye, kuko ziba ziri ahantu hamwe ukazihera ahantu hamwe, bityo umusaruro ukiyongera. Uwakoze umushinga wo kuzorora akabona amafaranga menshi avanye mu mushinga go korora inkoko.

Inzovu ni inyamaswa y'ishamba kandi inzovu ibaga ifite umugara, ifite n'ubunini butangaje. Inzovu zikururaga ba mukerarugendo bakaza kuzisura, baza kuzisura bagatanga amadovize ago madovize gakagirira igihugu izo nzovu zirimo akamararo.

Inyoni n inyamaswa zo mu gasozi ntoya zaremwe n'Imana zitwa ifundi, ziba ahantu h'imisozi y'ishyamba, cyangwa ahantu h'ubutayu, bitewe n'aho zaba zikunda.

Inyoni zo mu ishyamba cyangwa se inyoni ziba mu gasozi, iyo ziri kumwe n'ibyana byazo zimeze neza, ziba zishimye kandi ziba zigaragarira amaso neza, abantu barazireba bakishima, kandi izi nyoni zikurura ba Mukerarugendo bakaza kuzisura, bakareba ibyiza bitatse igihugu izo nyoni zirimo.

Ingagi n'inyamaswa zo mu gasozi zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura baza kuzisura bakazana amadovize kandi icana c'ingagi iyo kikiri gito kiba kigaragara neza ubwo kiba giteye impuhwe kukireba kandi ugashimisha n'amaso gawe iyo ukireba.

Nyirabaraza n'imiyongoyongwe n'ibisimba biba ahantu hadatuye abantu, bikaba ahantu hari ibivu cangwa se imigezi cangwa se ibiyaga, kandi Nyirabaraza ziba zitatse ubwiza nyaburanga butuma abantu babireba bakishima amaso yabo akanezerwa.

Amagi y'inyamaswa zo mu gasozi, urugero nk'inyoni, iyo inyoni nkuru zagateye gavamo izindi nyoni ntoya, zizakura nazo zikabyara amagi. Kandi aga magi iyo zagateye, zigashira ahantu hizewe kugira ngo gatazameneka ,ahubwo gazavemo izindi nyoni ntoya.

Ingagi inyamaswa zo mu gasozi, ba mukerarugendo baza gusura bagatanga amadovize akagirira igihugu akamaro. Ingagi ziba mu misozi miremire cyane cyane nko mu birunga.

Inyoni ni inyamaswa ngufi zo mu gasozi ziba ahantu h'imisozi haba ibiti kandi zikaguruka mu kirere inyoni kandi zibamo amoko atandukanye urugero nk'ibishwi, amafundi n'izindi nyinshi zitandukanye inyoni ba mukerarugendo barazisura amadevize akinjira aho ziherereye

Intare ni igisimba cy'ishyamba kiba giteye ubwoba gitinyitse, kandi intare iba ahantuh'ishyamba. Intare ni igisimba cyaremwe n'Imana kiba ahantu mu misozi ndetse n'ahantu hari amashyamba.

Inyoni zo mu gasozi cyangwa se ibiguruka biba mu gasozi cyane cyane ahantu hari inyanja n'ibiyaga ziba zigaragara neza ,kuko ziba zifite amabara meza. zitungwa n'ibinyabuzima biba muba mu mazi urugero nk'amafi mato, n'utundi dusimba tuba mu mazi.

Imbwa ni inyamaswa y'agasozi iba iteye ubwoba iraryana. Iyo irumye umuntu arwaraga ibisazi ,kandi iyo ije mu baturage bagomba kuyirukaho kuko ishobora kuruma umuntu akaba yagira indwara zitandukanye ,kandi imbwa iba ahantu h'ibihuru n'ahandi hatandukanye hataba abantu.

Igishuhe ni inyamaswa yo mu gasozi iba ahantu h'ubutayu, kandi igishuhe ni inyamaswa iba yararemwe n'Imana igakurura ba mukerarugendo, bakaza kuyisura bagatanga amafaranga, amadovize yifashishwa mu gufasha igihugu mu iterambere.

Inyoni zibaga ku nyanja cangwa se ku biyaga zibaga ari nziza, kuko zitabaga mu ngo z'abantu, kuzireba bibaga bishimishije, kandi nanone izi nyoni zitungwaga n'amafi gwo mu biyaga cangwa se mu nyanja, agwo mafi gabaga gari mu mazi, bityo izo nyoni zikabaho neza zitunzwe n'ago mafi.

Inyamaswa zo mu gasozi zifite amabara, urugero nk'inyoni ziba ari nziza kuzireba, iyo abantu bazirebye bashimisha amaso gabo, kandi na ba mukerarugendo bakaza kuzisura, bakazana amadovize mu gihugu cacu.

Ingurube y'ishamba iba ahantu h'ubutayu cangwa se h'imisozi ibitewe n'aho yabikundaga kandi ingurube y'ishamba iba itinyitse kuko iba ifite umubyimba munini inabyibushe cane zikurura ba mukerarugendo bakaza kuzisura bakazana amadevize.